Isafuriya iteretse kuri gaze, akenshi akaba igikoresho gikoresha icupa bamu gaze, imbere bakarasa umwambi hifashishwa mu guteka. Rizwiho kwihutisha ibiryo bigashya vuba.

Abantu benshi baturutse imihanda yose, bahuruye baje kureba inzu yagize ikibazo cyo gushya ifite amabara yumuhondo, yubatswe muburyo bwa gihanga.

Inzu yafashwe n'inkongi, aho umuriro gwatwitse ibintu byose byari birimo imbere, hakaba haje abantu bashinzwe kuzimya kugira barebe ko bagugabanya noneho he gukomeza kwangirika ibintu byinshi, bagira ibyo baramira.

Ikigo abapolisi bitorezagamo ibijanye no kurinda umutekano, aho umuyobozi wabo arikubaha amabwiriza bagomba kugeraho, kugira bakomeze gukaza ingamba z'ubwirinzi.

Indege yo mu bwoko bwa kajugujugu, iriho ibendera ry'u Rwanda, isa n'iya gisirikare akenshi zikaba zifashishwa mu gucunga umutekano w'igihugu, kugira ngo abaturage babeho batekanye kandi n'abayobozi bo mu nzego zishinzwe umutekano, bizere ko ntacyaruhungabanya.

Umudaso mu myenda y'icyatsi ufashe na bote, abapolisi bambaye imyenda y'umukara n'ikirango cy'igihugu, aho bari gufata inkweto akenshi zifashishwa cyane cyane mu mugihe cy'imvura.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umweru ufashe terefone ku gutwi, inyuma ye hari dodani aho imodoka zigera zikagabanya umuvuduko kugira ngo zikomeze, hirya ye hari na puberi ijyamo imyanda.

Abantu bicaye hamwe bari mu cumba abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu, imbere yabo harimo umuntu uri kuremesha iyo nama bakaba bose bateze amatwi abashaka kumva ico uwo muntu ashaka kubabwira.

Abaturage n'abo mu nzego z'umutekano harimo nk'abadaso bicaye mutente aho baje mu nama kugira barusheho kungurana ibitekerezo bahuze n'ibibazo byabo barushaho kumererwa neza.

Abagore basheshe akanguhe aho bahurijwe hamwe mu buryo bwo kungurana ibitekerezo kugira barusheho kwigira hamwe ibyabateza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi, haba gushyigikirana, aho babikoreye mu mbuga iri hafi y'inzu yubakishije amabati ashaje.

Imbaga y'abantu benshi bamwe bicaye abandi bahagaze, aho baje kumva inama bari bugirwe n'abayobozi babo, harimo umwe ufashe mikoro uri gutanga igitekerezo kugira ngo barebe ko hari icyo cyafasha bagenzi be.

Inama y'umutekano aho abashinzwe kubungabunga polisi, abasirikare, n'abandi mu nzego za leta bahurijwe hamwe no kwiga ku ngamba zatuma bawunoza neza.

Abagabo n'abagore, bamwe bahetse abana, baje mu bushyitsi, bari kwiyarurira ku masahani y'umweru, ibiryo harimo ibirayi, bishyimbo, bari kubikura mu masafuriya.

Abagabo n'abagore baje mu nama, imbere yabo hari imashini, amakaramu n'amazi go kunywa bakaba bose bakurikiye ibyo umuntu urabaremesha inama agiye kubabwira, bari ku meza afite ibitambaro by'umutuku n'umweru.

Abagore babiri, umwe ubyibushe, uhagaze imbere y'abandi uri gutanga imbwirwa ruhame, ufashe mikoro mu ntoki n'abagabo babiri bari iruhande rwe, bari kwitegereza ibintu biri kubera aho ng'aho muri ibyo biganiro, inyuma ye hakaba hari icapa canditsweho imbuto.

Umukobwa wicaye ku ibuye, witeze igitambaro urikogosora imbuto ukoresheje inkoko, kugira ngo imyanda iririmo ivemo hasigara ibintu bimeze neza, bakaba babiteka cyangwa bakaja kubitera.

Ikigega c'ibyatsi kera bahunikagamo imyaka nk'ibishimbo, ibigori, ibirayi kugira ngo bimare igihe kirekire hakaba hakikijwe n'uruzitiro rw'ibikenkeri.

Umunyarwanda wa kera witandiye ufashe inkono y'itabi, akenshi bakaba babanza kuyitekera bagashyiraho igikara, nyuma bagatumagura imyotsi ikajya irazamuka hejuru.

Abagabo babiri bari guhererekanya igicuma kirimo inzoga bicaye ku ntebe bari gukina ikibuguzo. Hariho abasore n'abana bari kurebera uko mukino bawukina.

Abakobwa babiri bafashe intara, bari gugosora ibishyimbo aho babanje kubihura, hanyuma bagakuramo imyanda kugira babibike bisa neza uzabona uko babiteka ibindi babihunike.

Igiseke gifite umutemeri akenshi kibowa mu bwatsi n'ubudaderi, kikaba ari igikoresho gakondo cyifashishwa mu kugemura cyangwa gutwara utundi tuntu dutandukanye ubikura hamwe ubijyana ahandi.

Umuvumvu uje guhakura ubuki mu mitiba y'inzuki ziri mu rutoki， aho aje yambaye ibikoresho byabugenewe， n'utundi dukoresho tumufasha muri uwo mwuga.

Imbizo zizirikishijwe imikoba akenshi zifashishwa mu gukondora imbuga y'irembo no mu nzu kugira hase neza. Zikaba zizwi no ku izina ry'imikubuzo.

Utumamiyo n'indosho, akenshi byifashishwa umuntu ari gusekura, cyangwa se ari guteka, akajya arakajabuza ibiryo, ari kumva cyane cyane ko bihiye.

Isuka ikwikije umuhini yagetse ku gikuta cy'inzu, aho yifashishwa mu guhinga mu murima no gutera imyaka no mu gutabira, kugira abahinzi babone uko bongera umusaruro wabo.

Abagore n'abakobwa bari kwiga kuboha ibikoresho gakondo， akenshi byifashishwa mu gutwara ibintu bapakiramo， bimwe bababikura hamwe ibindi babijyana ahandi，bakabikora mu budeyi ndetse n'ibyatsi.

Ikigo cy'abanyeshuri kirimo abana bitoje kubyina gitore bya Kinyarwanda bambara inifomo, amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara n'amashati y'umweru n'amakanzu ya kake.

Umuhigi ufashe icumu n'umuheto yafoye, kenshi ryifashishwaga mu guhiga inyamaswa mu ishyamba. Rimwe na rimwe akajya kuzotsa harimo nk'impongo isha n'utundi tunyamaswa dutandukanye.

Umwirongi ni igikoresho cyakoreshwaga cyera mu gutanga ururirimbo rw'amajwi ufite udutobore tubiri harimo n'umwenge umwe akenshi bakaba barahuhaga kugira ngo babashe gususuruka ndetse n'inka zizihirwa.

Inanga z'imiduri zifashishwa mu gusohora amajwi, kugira ngo abantu babyumva baze gususuruka, kuko ari uburyo bwa gakondo bwifashishwaga mu gihe cyo hambere.

Igiti cy'ikivumu akenshi cyashingwaga mu bikingi by'irembo, kikaba kizwiho kubazwamo imizinga, amasekuru, kikaba kigira imizi myinshi kandi igihe cy'izuba kikaba gihunguka amababi.

Umugabo ufashe umuheto kenshi wifashishwa mu guhiga bashaka kurasa inyamaswa iri hirya aho babanza gufora bagakurura maze bakohereza umwambi akaba ari wo uyirasa.

Icumu rirambitse ku byatsi hejuru kenshi ryifashishwaga mu guhiga ndetse no kurwanya abanzi, barishiraga ku muheto bagafora bakarasa icyo riguyeho rikacyica cyangwa rikagikomeretsa.

indoshyo, igikoresho kibajwe mu biti, cyifashishwa mu guteka, cyane cyane iyo bari kwarura, cyangwa se bari kumva ko harimo umunyu, akenshi yifashishwa ahantu hatandukanye.

Ababyinnyi gakondo bafite amacumu n'ingabo, bambaye inzogera mu maguru, ziba ziri kujegera. bakaba bakoresha uburyo gakondo kugira basusurutse abantu baje babagana.

Abantu baturutse imihanda yose, aho baje mu gikorwa cyo gukora umuganda, aho bareba ibyatsi byagiye bikura cyane bakabigabanya kugira barusheho kunoza isuku no guca umwanda.

Igicuma, igikoresho cyakoreshwaga kera nk'ubu ngubu mu kunywa inzoga, ndetse kikaba cyaravaga mu byatsi biranda ku butaka bakuragamo inzuzi zo mo imbere, ukagitunganya kikaba igikoresho cyifashishwa mu kunywa ibinyobwa.

Ikigega kiboshywe mu migano gisakajwe ibyatsi. Akenshi kikaba cyarahunikwagamo imyaka nk'ibishyimbo, ibirayi, ibigori, uburo n'ibindi bitandukanye.

Umugore ufashe ingoma mu ntoki, akenshi zikaba zifashishwa mu kubyina gakondo , bagakora umuziki wazo bifashishije imirishyo, n'intore zigahamiriza.

Abagore b'abakaraza bafashe imirishyo mu ntoki n'ingoma bagiye kuvuza, kugira ababyinnyi gakondo baze bitakume ,banaririmbe indirimbo za kinyarwanda.

Umuhoro w'umunyarwanda wifashishwaga akenshi bari gusohoza amakoma mu rutoki, iyo bayakeneye nko kuyaha inka cyangwa ihene cyangwa andi matungo, ukaba warifashishwaga no mu buhinzi akenshi na kenshi.

Ikibuguzo, aho abantu babiri baba bari gukina, bashyira ibintu by'udushyimbo mu twobo twinshi ,bakagenda bakuramo kugira barebe uraza gutsinda undi ,maze bakongera bagatangira , cyangwa hakajyamo abandi bantu.

Ingobyi igikoresho gakondo kigira ibiti bibiri akaba ari byo baterura ari bane, imbere haryamye umuntu urwaye akaba ari uburyo gakondo bwifashishwa gufasha abarwayi.

Umugabo n'umugore bakora umwuga wo kuririmba barakoresheje inanga y'umuduri, bafite mikoro ibiri aho baje kuririmbira abantu. inyuma yabo, hakaba hari bafule iri kugeza amajwi kubabakurikiye, hirya hakaba hariyo n'ibyatsi bikikije aho hantu, wagira bikoze jaride.

Intore zibyina imbyino gakondo, zifite amacumu mu ntoki n'ingabo nk'ikimenyetso cyo kwerekana uko urugamba rwa kera rwagendaga. Hirya hariho uruzitiro ruhakikije.

Umuririma urimo ibimera bitandukanye harimo n'igikakarubamba, akenshi kifashishwaga mu kuvura ibihushi n'ibiheri byo mu mutwe. Bakaba banacyifashisha mu gukora amavuta.

Abantu baturutse ahantu hatandukanye baje kureba umukino wo kurushanwa mu gusimbuka, aho bazirika ibiti bibiri bakazirikiraho umugozi, umuntu akajya aza akawusimbuka.

Umugore uri kumwe n'abakobwa be batatu, bikoreye inkono bagiye kudandaza, haba harimo umwe wikoreye agafuka karirimo ibyo bagiye barabaha nk'ingurane.

Umusaza ugaragiwe n'abana， n'abandi bantu benshi batandukanye，Baho ari kubacurangira inanga y'umuduri， mu mbyino gakondo， kugira barusheho gususuruka.

Intore zibyinaga kinyarwanda aho bagabo barimo bambaye inzogera ku maguru bafite n'amacumu mu ntoki, abagore na bo bari kubyina batanze amaboko kugira ngo basusutse abantu baje kubareba.

Inzu y'ubugeni irimo ibikoresho bya kera byifashishwaga mu gutunganya amata, harimo ibyansi, inkongoro n'ibisabo, aho harimo abagore babiri bashinzwe kubyitaho kugira ngo banasobanurire abantu uko byifashishwaga mu gihe cyo hambere.

Inanga iba ifite imirya akenshi izwiho gucuranga indirimbo, n'injyana gakondo za kera. Ikaba izwiho no gutanga umuziki umeze neza cyane.

Ingobyi iba ifite ibiti bibiri iriho ikirago n'ahantu haboshye aho ariho umurwayi yicara, iterurwa na bantu bane n'abandi babaherekeje inyuma, ikaba izwi nk'uburyo gakondo bwifashisha shishwa mu kugeza umurwayi kwa muganga.

Abanyeshuri bari kwigishwa umuco gakondo. Ubu buryo kera bawifashishaga mu gucunga umutekano, no guhiga hifashishijwe amacumu n'imiheto bakaba bari gukoresha ibiti.

Abantu batatu, bambaye gakondo, bambaye imikako mu ijosi, bafite n'ibyatsi mu ntoki bari iruhande rw'ibiti by'imiyenzi birimo uruzitiro.

Umusaza ufashe inkono y'itabi mu kanwa, aho bazana itabi bakaritekera n'igikara, noneho agatumamagura ajya amira umwotsi akongera akawusohora.

Inzu y'indaro iba yubatswe mu buryo bwa kiviringo, bifite agasongero hejuru kariho akabindi, akaba ari inzu gakondo zabaga zubakishijwe ibyatsi hakaba hakikijwe n'ibiti.

Abantu bagiye kurya ibiryo bya kinyarwanda, harimo amateke, ibishyimbo n'avoka. Bikaba ari ibiryo bitekwa kenshi nta mavuta arimo, bikaba bizwiho no gutera imbaraga.

Ikigega gikoresho gakondo cyifashishwaga kera mu guhunika imyaka harimo ibirayi, ibishyimbo, ibigori n'ibindi bitandukanye nk'ubunyobwa ndetse n'amasaka akikijwe n'uruzitiro.

Igikoresho cy'amashanyarazi kifashishwa kenshi mu gucana amatara cyangwa se kigashyirwa ku bipangu inyuma kugira kijye gikoreshwa nka sonori. Noneho abarimo imbere baze gufungurira umuntu uri gukomanga.

Ibyuma by'amashanyarazi bigize na taransifo. Hariho na batiri, byifashishwa mu kugeza ingufu ku bandi bantu bo hirya, kugira ngo bakomeze imirimo yabo nijoro no ku manywa nta mbogamizi.

Parafo iri mu nzu ,asize amabara y'umuhondo. Yo ifite amabara y'umweru , hariho itara ry'ikiromba rizwiho kwaka cyane rikabonesha igice kinini.

Urusengero runini rufite agasongero imbere, aho abantu baturutse imihanda yose, bashobora kuza kuhasengera kugira ngo barusheho kwegerana n'Imana.

Inzu ibyiri，imwe ifite uruburaza， yubakishije amabuye，indi yubakishije amatafari，ziri ahantu mu gitari， aho zose zifite amabati ashaje n'imbuga itarimo isima.

Ikigo cy'ishuri gifite imiryango cyubakishijwe amatafari kiri ahantu hakikijwe n'ibiti byinshi aho gifite urukarabiro rwubakiye ku buryo buri mu nyeshuri abanza gukaraba mbere yo kurigana.

Inzu ya etaje ifite amafuro ane, hejuru ifite igisenge cy'amabati, akenshi ikaba izwiho gucumbikira abantu benshi ndetse ikanatuma hazigamwa ubutaka bwakwifashishwa mu buhinzi.

Taransifo iri mu murima uhinzemo ibishyimbo, harimo n'intoki, bikaba bishingiye, hirya hari inzu ifite igihanga, ikaba yifashishwa mu kugeza umuriro ku baturage biboroheye cyane.

Insinga z'amashanyarazi ziri ku mapoto ,akenshi aba atwaye umuriro awuvana ku isoko awujyana kuri taransifu, izajya iraburira abaturage binyuze mu yandi mapoto bazashinga, aturuka aho bazawukura.

Inzu yanditseho igikoni ifite imiryango ibiri n'intebe ibiri ziteretse mu rubaraza rufite inkingi itanu n'igihombo kimanura amazi kigajana mu hasi kiyaturukije hejuru ku mabati, hariho na kizimyamwoto imwe n'abantu bashushanyije bari ku bikuta wagira ngo bari gufura.

Inzu ya kadasiteri ifite imbuga nini irimo umucaca, amabuye g'amakoro, hirya yaho hakaba hari ibiti by'inturusu hakaba haciye n'urutsinga rw'amashanyarazi hejuru yayo, ikaba yubakishijwe amatafari, isizwe n'amabara y'umuhondo.

Gare ifasha abantu mu ngendo za rusange, aho harimo imodoka zitwara abantu benshi, zibakura ahantu hamwe zibajyanye muyandi merekezo, hakaba harimo benshi baje babagana, kugirango babafashe.

Ikigo cya leta gifite akarembo kariho amapave kajyamo, hakaba hariho akazu k'abasakerite n'undi uri ugufungura, harimo n'idarapo ry'igihugu, hariho n'ibiti biri muri jaride kugira habe hasa neza.

Inyubako ahantu mu ishyamba, inyuma hariho jaride irimo indabo，iteyemo igiti kinini cy’inganzamarumbu，naho hirya hariho igitari kihakikije， ikaba ifite amabara y’umuhondo n'amabati y’umutuku.

Ikigo cy'amashuri kiri ahantu mu ishamba ririmo ibiti by'intusu n'ubundi bwoko, kiri munsi y'umukingo, hariho kandidagira ukarabe, abantu bajya bahagana babanza gukaraba n'ikigega cy'amazi cyo kubafasha kuyabona.

Gereza ya Huye, aho abantu bakoze ibyaha bitandukanye bafungirwa, mu gihe bategereje gukatirwa n'inkiko cyangwa se abahamijwe n'ibyaha bakahaguma mu gihe runaka bakagororwa.

Inzu imeze nk'urusengero, hejuru haciye urutsinga rw'amashanyarazi, imbere yayo hari ibiti, imbere aho binjirira hariho icyapa kiririmo umucaca, inyuma yayo hariho amazu ya mugongo wa timbo, hirya hakaba hariyo umusozi.

Sitasiyo y'amashanyarazi izwiho gutanga ingufu hirya no hino hagiye hatandukanye, kugira ngo abantu barusheho kunogerwa na serivisi zituruka ku muriro w'amashanyarazi.

Inzu imeze nk'ikigega yubakiye hejuru amatafari, n'urugi rw'umweru, iri ahantu mu gitari kirimo ibiti bikuze bigeze igihe cyo kuba byabazwa ,bikavamo imbaho zakwifashishwa mu bwubatsi.

Mu nzu iri kuberamo amahugurwa ajyanye n'ibyo gukoresha mudasobwa ,cyane cyane kompiyuta kugira ngo itumanaho rijye ryorohera abarikora binyuze ku mbuga nkoranyambaga ,bifashisha ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga.

Aparitoma igizwe n'inzu zirimo ibyumba byinshi, abantu batandukanye baza kuhaba mu buryo bwa rusange, kugira ngo abadafite amazu babone aho bakodesha, bage bahaba mu gihe kigufiya n'ikirekire.

Urusengero rwa Adeperi Nyarugenge rw'Abapentekote rwa mu Rwanda, aho basenga ariko ku cyumweru, rukaba ruri mu mabara y'umuhondo ndetse n'inzugi z'ibyuma.

Inzu yo mubwoko bwa mopelemane munsi yayo hariho indi anegisi yubakishijwe amategura ifite igipangu gisa n'umweru hakikijwe n'indabo zikoze jaride.

Urusengero runini rufite agasongero n'umusaraba hejuru n'imbuga irimo amapave, aho abantu baturutse hirya no hino baza gusengera ,mu buryo bwo kugira ngo barusheho kwegerana n'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuhanda wa kaburimbo usa nk'aho uri muri karitsiye, ukikijwe n'ibipangu mu imbere harimo inzu za kadasiteri hateyemo ibisheke, n'intoki zifite injegwe, n'ibindi biti by'amavoka bikikije aho hantu.

Ikibuga kirimo umucaca, ariko kubera amazi makeya ukaba warumye. Akenshi kikaba gikunda gukinirwamo umupira w'amaguru kugira ngo umuntu abashe gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako imeze nk'ikigo nderabuzima, inyuma hariyo ikibuga kirimo umucaca, ishakajwe amabati y'imituku ifite amarangi y'umweru, ikaba ikoze mu buryo izengurutse.

Ikigo c'amashuri gifite etaje ibiri abanyeshuri bari ku yo hasi n'iyo hejuru bahagaze bategereje kwinjira mu ishuri kugira batangire gufata amasomo yabo y'umunsi k'umunsi.

Abaturage baturutse imihanda yose baje kwitabira inama, aho bakurikiye harimo umugore umwe ufashe mikoro uri gutanga igitekerezo cye kugira gifashe abari aho ngaho bose.

Abaturage bateraniye hamwe baturutse ahantu hagiye hatandukanye, bamanitse amaboko bishimira ibitekerezo biri gutangirwa aho hantu kugira imibereho yabo irusheho kuba myiza.

Abaturage baje mu kigo cy'amashuri, aho bicaye hasi ku mucaca, umugabo uhagaze ufashe mikoro, uri kubaremesha inama, kugira ngo barusheho kungurana ibitekerezo.

Abacamanza batatu n'abagororwa bafunzwe baje gucirwa urubanza. Aho bari mu nzu bakaba bicayemo kugira ngo barebe ibibazo abo bantu bafite. Noneho barebe niba bafungurwa cyangwa namba bagakomeza gufungwa.

Abaturage baturutse hirya no hino bicaye hasi barambirije, abandi bicaye ku ntebe aho bamwe bari gutanga ibitekerezo, nk'ubuyobozi buri kubafasha kubona ibisubizo kugira barusheho kungurana ibitekerezo.

Gare ya muhanga aho imodoka ziparika abagenzi baturutse imihanda yose bakaza baje gutega imodoka, aho marembo harimo abanyonzi bazanye abagenzi baje gushaka imodoka ngo zibajyane iyo bagiye.

Moto ya rifani ipakiye ibikoresho byo mu nzu, harimo intebe n'ibindi biri mu mufuka .Akenshi ikaba yifashishwa mu gutwara ibintu, mu ngendo ngufiya kugira ngo byorohereze abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibisate bine, aho imodoka zigenda mu byerekezo bibiri n'izindi mu bindi byerekezo, ukaba wifashishwa mu korohereza abagenzi kugera aho bashaka.

Gare irimo imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, aho zizwi ku izina rya shirumuteto cyangwa kibiyesi, abantu bamwe bagenda bicaye abandi bahagaze, bagiye ahantu hatandukanye.

Abanyonzi bakora umwuga wo gutwara abagenzi bakoresheje amagare babakura mu duce tumwe babajyana mu tundi ,aho bakoresha imbaraga zabo kugira ngo bafashe abaturage.

Imodoka nini zitwara imizigo mu ma kontineri，zizikuye mu bice bimwe cyangwa se， zikambukiranya ibihugu， zikaba zitwara ibintu byinshi cyane， byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange, izwi ku izina rya Shirumuteto, aho abantu bagenda bahagaze, baje ku bwinshi, bashaka kujya ahantu henshi hagiye hatandukanye, bakaba bose bari muri gare.

Abantu batandukanye baje bagana muri gare, haparitse imodoka zo mu bwoko bwa Ritiko, zizwiho gutwara abantu mu buryo bwa rusange zibakura mu gace kamwe zibajyana mu kandi, aho mo imbere bazicaginga.

Imodoka ya ambulance, akenshi yifashishwa mu gutwara abarwayi barembye, ibakura aho bari barwariye, kugira ngo ibageze kwa muganga, kugira ngo barebe ko babona ubufasha bwisumbuye bakarushaho kumera neza.

Imodoka zikoraga ingendo mu buryo bwa rusange he aho zikura abantu hamwe zikabajana ahandi harimo n'abafite ubumuga bari kubafasha kugira nabo bagere aho bashaka kugera bitabagoye.

Abagabo bane n'umugore umwe bambaye amajire n'udupfukamunwa bya'akazi, baje ku kibuga cy'indege, baje kuhafata ibikoresho bitandukanye biturutse hirya no hino byazanywe n'indege.

Muri gare aho imodoka za ritiko zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'imodoka zizwi nka shirumuteto zitwara abantu akenshi bahagaze. Aho abantu baza bazigana kugira ngo bakore ingendo ngufi n'ingendo ndende.

Terifoni iri mu mabara y'umutuku izwi kugira amapine atatu ikoreshwa mu bwikorezi bw'imizigo butari myinshi cyane ibikura hamwe ibijyana ahandi

Imbaga y'abantu baje mu kiyaga baje gutega ubwato kugira bubakure hamwe bubajyana ahandi ,bifashishije inzira ica mu mazi hagati.

Imodoka ya rukururana ndende iparitse ahantu hamwe, akenshi yifashishwa mu gutwara esanse, iyikura hamwe iyijyana ahandi, by'umwihariko iyo ari ukwambuka uva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, ikaba ifite amabara y'umweru n'amapine menshi.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite rigori ijyana amazi aba yatembeyemo n'imodoka iri mu muhanda itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ibiti by'inturusu biri hirya y'umuhanda n'amapoto ari ku muhanda acanira umuhanda.

Moto ya rifani iba ifite amapine atatu, abiri inyuma na rimwe imbere, kenshi zifashishwa mu gutwara imizigo ziyivana hamwe, ziyijyana ahandi, kugira ngo bifashe ingendo z'abantu.

Imodoka ya fuso yikoreye ibyuma byifashishwa mu bwubatsi, cyane cyane mu muhanda, aho uwo barimo aribwo bari kuwubaka, hakaba harimo n'abafundi, abayede hasutseho n'imicanga bagiye gukoresha kugira bawutunganye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu baturutse imihanda yose, cyane cyane abamotari bari kuwugendamo, aho hariho n'inzira y'abanyamaguru ya zebura kurosi abantu bari kwambukamo kugirango bagera hakurya y'umuhanda.

Umufuka wa kiro jana wuzuye no hejuru, n'akandi gatoya kariteretse mu nzira, n'igare babipakiraho, hirya hari igishinga cyamabuye, no haruguru ya'ho harimo n'inturusi za nyiramweru.

Imodoka ya bisi nini itwara abantu benshi iri mu muhanda iri kuva mu cyerekezo kimwe ijya mukindi inyuma yayo hari iyindi modoka hirya hariho ibiti biri ku muhanda na mapoto yamashanyarazi.

Moto zikoreshwa nkumuriro w'amashanyarazi wacagize amabatiri akenshi zikaba zizwiho kwiruka cyane kandi zikaba zidasohora imyotsi yakwangiriza ikirere na zo zikaba ziri mu ngamba zo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere.

Umugore wumunyonzi wapakiye umufuka wigice hejuru n'amaponshi abiri, uri inyuma y'imodoka ebyiri ,imwe ifite amabara y'umweru n'indi ifite amabara y'umutuku, akaba ashaka kuzica inyuma, kugira akomeza imbere.

Imodoka ya volukano ikorwa n'uruganda rwa Yundayi, izwiho gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Iri mu muhanda n'abantu b'abasore sore bahagazemo n'abandi bagenzi bari kugenda hamwe n'indi...

Aho imodoka zipakururira imizigo n'abakarani baje baturutse ahantu henshi hatandukanye. Baje gutwara iyo mizigo kugira bayigeze ku bacuruzi basanzwe bakorera hirya no hino hatandukanye n'aho bari kuyipakururira n'abandi bantu baje kurangura kugira ngo babatwaze.

Mota eshatu aho umwe wo ku ruhande afashe kasike mu ntoki ,uwo hagati akaba ahetse umugenzi ,undi wo ku ruhande rw'ibumoso wambaye kasike mu rutugu, bose barijya mu cyerekezo kimwe.

Umumotari wapakiye ibirayi ibitoki mu imifuka irimo imboga, inyuma yategesheje ipine kugira itagwa, akaba afite na bote.

Muri gare, aho abantu batandukanye baturutse imihanda yose baza baje gushaka imodoka ,kugira zibageze mu tundi duce bagiye kujyamo, yaba bari kwerekeza mu ntara n'ahandi hantu hatandukanye h'igihugu.

Ikibuga cya voreboro aho kigizwe na tapi zisa icyatsi, abakinnyi bazana umupira bakawuhererekanya bakoresheje amaboko, bawurenza fire.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, baturutse imihanda itandukanye, baje kureba siporo ku masiganwa y'imodoka, hari abakorerabushake baje kubafasha kugira ngo bayobore icyo gikorwa.

Ikibuga bari gukiniramo umupira gw'amaguru, aho barimo amakipe abiri, imwe yambaye umweru n'umukara indi yambaye ubururu n'umuhondo, hirya hakaba hari n'abantu baje gufana, n'ibiti biri hirya bikikije aho umukino ubera ,umuntu umwe akaba agiye gushira ku mutwe.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umweru n'agasengeri k'umukara, uri gukina umukino wa tenisi, aho uri mu bigorora umubiri kugira arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikipe, abakinnyi b'umupira bakina basiketiboro, aho bari mukibuga, bishimira insinzi bagezeho, kugira ngo ubutaha bazagire imbaraga bakorane umwete.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane akaba ari gutera umuhunda, bikaba ari igikorwa cyakorwaga kera mu byo bitaga kumasha, mu buryo byafashaga abarwanyi n'abahigi mu bikorwa byabo bitandukanye.

Amakipe abiri imwe yambaye umuhondo n'ubururu indi yambaye umweru n'umukara bari gukina umukino gwa hendibiro n'umukino w'amaboko mu kigo cy'amashuri aho abanyeshuri baje kureba uwo mukino uko ugenda.

Umuhungu n'umukobwa bambaye amakabutura asa, n'imipira isa, aho wambaye ni inkweto zifunze, umukobwa wambaye isaha bose bakinnyi.

Abakinnyi bakora siporo ariko barushanwa mu kwiruka cyane cyane baye uwa mbere akaba ariwe uhembwa. Bitewe n'uko bagiye barakurikirana ibihembo byabo bikarushanwa.

Umukino w'amaboko uzwi nka hendiboro, aho abakinnyi batandukanye bakina bakoresheje amaboko, umuntu umwe akajya arawusama, yawusama akawuhereza undi bafatanyije, kugeza batsinze.

Umutoza w'umuzungu uri kwigisha umwirabura ukuntu bakina umukino wa handibolo hamwe n'ndi muzungu mugenzi we, kugira ngo bamenye neza amatege awugenga.

Abantu batandukanye bambaye imidari bafashe igikombe batsindiye bishimye, inyuma yabo hariho igipangu cubakishijwe amabati y'ubururu n'akajaride kariho indabo n'igiti kinini kiri inyuma yabo.

Abakinnyi bari mu kibuga cya basikete, aho bahurizwa hamwe bakadunda umupira urushije akawujugunya mu gapaniye, wakwinjiramo igitego kikaba cyirinjiye.

Pisine iri muri jalide, aho abantu batandukanye baza baje gukorera umukino wo koga mu mazi, cyane cyane abashaka kwiga kugendera mu mazi ,mu mazi ,mu mazi ,mu mazi.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina umukino wa basiketiboro, aho badunda umupira bakawujugunya mu gapaniye, wakwinjiramo umuntu akaba atsinze bitewe n'ahantu ahagaze.

Abantu bafite ubumuga bw'amaguru bahaye amagare kugira ngo ajye arabafasha mu gukora ingendo zabo n'ibindi bikorwa bitandukanye, bihurije hamwe mu mupira bigaragara ko batwaye igikombe kuko barishimye cane.

Akadenesi kakundaga gukinwa n'abakobwa bari ku kadunda kuri sima ndetse gateretse mu mucaca rimwe na rimwe kakaba kifashishwa mu gukina umukino wa tenisiboro.

Umugabo wambaye ikabutura n'agasengeri, waje mu myitozo ngororamubiri, aho ari kwiga gutera icumu mu ntera ndende, abantu benshi bakaba baje kureba, uko uwo mukino ugenda.

Sitade aho abafana baje ari benshi baturutse imihanda yose, bafite amadarapo yigihugu cy'u Rwanda , aho baje kogeza umupira kugira barebe ikipe iratsinda, noneho abariyo itwara n'igikombe.

Umukino wa vore, aho umuntu apasa undi, wa mupira wagera hejuru agasimbuka agatera ikiro, undi akaza kumuboroka ariko batandukanyijwe na fire.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru, umuzamu wambaye imyenda y'imituku n'amaga y'umweru, aho ari kuza ashaka gufata uwo mupira, kugira ngo batamutsinda igitego.

Amakipe abiri ari gukina umukino wa hendibolo, aho imwe yambaye imyeru gusa indi ikambara imikara, aho wakina umukino wakoresheje intoki umwe akajya ajya kuwumwaka undi akawohereza gutyo.

Umugore wambaye inkweto zifunguye, witeye igishora, ufashe agaseke mu ntoki yapfunyitse mu gitambaro, akenshi bikaba byifashishwa iyo agemuriye nk'umuntu runaka.

Umuhanda wibitaka wegereye igipangu cyubakishijwe amatafari. Aho mu mpande harimo imicaca ukaba utsindagiye. Bigaragara ko uzubakwamo kaburimbo na wo utagaragara neza, ufite isuku.

Ikirere gikubye imvura imeze nkaho ishaka kugwa. Abamotari ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Mu muhanda hariho ibiti by'intusi n'abantu bari kugendera mu nzira y'abanyamaguru.